Ni umwana mutoya w'umunyeshuri w'umukobwa, yiga mu mashuri abanza, yambaye impuzankano, ari ku kigo, arimo koga ibiganza bye byombi akoresheje amazi meza yo kuri kandagira ukarabe.

Abaganga bakora mu kubaga bari mu cyumba ndetse bambaye imyenda yabugenewe kandi ifite isuku cyane, barimo kubaga umurwayi bakoresheje ibikoresho byabugenewe kandi bifite isuku yizewe.

Abantu bicaye benshi bamwe muri bo bafite amagaye n'amakaramu barimo kwandika bari mu nama ndetse bayobowe n'umuntu wicaye imbere yabo barakurikiye cyane kugira ngo babaze ibibazo aho batumva ndetse basobanukirwe.

Umugore wagiye kuvoma mu mazi atemba asa nabi ndetse n'umugabo urimo kogerezaho igare, abo bantu bombi umwe ari ku nkuku mbese ku ruhande rw'amazi, undi arimo hagati kandi bari ahantu mu gishanga.

Abantu benshi b'abadamu bari kwifotoza, bahagaze neza cyane bitonze, bari imbere y'inyubako nziza kandi bahagaze hasi ku gitaka.

Umwana mutoya yagiye kumugezi, ari kunywa amazi aturuka mu mugezi akoresheje ibiganza bye byombi kandi yajyanye n'indobo yo kuvomeramo.

Abantu bari mu nama, barimo kuganira bishimye cyane ndetse umugabo umwe arimo kubasobanurira kandi bose bariye, bananyoye.

Umwana mutoya w'umukobwa ari ku mugezi arimo kuvoma akoresheje indobo, ari kubanza kuyoza kugira ngo avomere mu indobo isa neza kandi uyu mugezi amazi arimo ni meza cyane akoranywe isuku.

Umugore uvuye kuvoma, yikoreye indobo y'amazi ndetse afite n'indi mu ntoki irimo amazi, ari mu muhanda w'igitaka ariko ari hafi kugera ku nyubako ye kandi aho ageze, hari ibiti byinshi.

Abantu benshi bari mu nama yabafatanyabikorwa, ndetse bari kuyikoreshwa n'abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, umugabo niwe ufite indangururamajwi, arimo kubisobanurira ibijyanye n'ibikorwa.

Abana batoya, bari kumwe n'abayobozi babo, bicaye ku ruziga, barishimye cyane, barimo kwigishwa, bahabwa impanuro zitandukanye n'abayobozi babo.

Abana batoya b'abakobwa, bambaye imipira cyangwa se impuzankano y'ikigo cya Unicef, gishinzwe ubuzima bwiza ndetse n'imibereho y'umwana.

Abantu bagiye kwa muganga kwivuza ndetse barimo baraganira, uri kubaganiriza ni umugabo arimo kubasobanurira bamubaza ibibazo nawe ababasubiza bafatira hamwe ibyemezo.

Abantu bahuye n'akana gatoya k'agakobwa kavuye kuvoma kikoreye ijerekani bahita bagafotora, bari no kukabaza amakuru, uko ayo mazi ameze ndetse n'ibyo kagiye kuyakoresha.

Abantu bagiye kuvoma bafite ibijerekani, umwe w'umukobwa niwe uri kubavomera, bahagaze ku nyubako nziza yubatse neza ndetse n'inyuma yabo hari ishyamba.

Abagore bagiye kuvoma ku mugezi ufite amazi meza cyane kandi akoranwe isuku ihagije, adateye indwara z'umwanda ndetse bajyanye amajerekani bambaye n'udupfukamunwa. Ni mu gihe cya Corona.

Abantu bari mu nama, bayobowe n'umugore wambaye umwenda wabugenewe wo mu ibara ry'umweru, bari kuvuga ku kwita ku bidukikije, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu bicaye neza ku murongo harimo abagore n'abagabo, buri wese afite ikaye n'ikaramu ari kwandika ibyo yumvise, bari mu nama baritonze cyane kandi barakurikiye.

Umwana uri ku mugezi ari gukaraba ibiganza byombi akoresheje amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu mwanda ndetse yagiye no kuvoma afite n'ijerekani.

Abantu benshi bari mu nama, bambaye imyenda yabugenewe y'abantu bashinzwe ubuzima bwiza bw'umuturage cyangwa se bw'umuturarwanda, barimo kwandika kandi baritonze cyane.

Abantu bagiye ku ivomero, umugore umwe afite indobo, ari kuvomeramo, abandi babiri bari inyuma, bari kuzunguza icyuma amazi akaza ndetse inyuma y'iyo vomero hari igiti kirekire.

Abana batoya b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kandi bambaye impuzankano, barimo kwiga uburyo boga ibiganza bakoresheje amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka mu mwanda.

Umukecuru wagiye ku mugezi arimo kuvoma ndetse umugezi wubakiye mu misozi, afite amajerekani abiri ndetse ari kuvoma yitonze cyane kandi aya mazi ni meza ntago ashobora kwanduza indwara zitandukanye zandurira mu mwanda.

Abana b'abahungu bagiye ku ivomero ndetse umwe ari inyuma ari kuzunguza icyuma amazi akaza, ariko bateretseho injerekani nabi ntabwo amazi ari kujyamo, inyuma yabo hari ikibuga kiriho ubwatsi. Bigaragara ko bano bana baje kuvoma ariko bamwe bari gutinya amazi.

Umwana mutoya w'umuhungu arimo kwigishwa uburyo bakaraba ibiganza byombi bakoresheje amazi meza n'isabune, ndetse ari kubyigishwa n'umuntu mukuru.

Umwana mutoya w'umuhungu, arimo kwigishwa uko bakaraba ibiganza byombi, bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara zose, zandurira mu mwanda.

Abantu benshi bari mu nama, bari bateranye nk'abagabo n'abagore, bari kuvuga ku kintu cyo kwita ku buzima bwiza bw'abaturage, ndetse bari imbere yinyubako.

Abantu bari kwa muganga, umuganga arimo kubaremesha inama abaganiriza bamubwira ibibazo bafite ndetse bafatira hamwe n'imyanzuro.

Abana batoya bishimye cyane, umugabo afite agakombe karimo amazi arimo kuboza intoki, abigisha kuzikaraba neza, mu buryo buhagije kugira ngo birinde indwara izo ari zo zose ziterwa n'umwanda.

Abana batoya bagiye ku ivomero, ijerekani y'ibara ry'umuhondo iteze aho amazi ari bugemo, undi mwana w'umusore ari inyuma arimo kuzunguza icyuma amazi akaza ariko ntabwo ari kwinjira mu ijerekani, ijerekani iri inyuma.

Abantu baje kuvoma ndetse harimo umudamu umwe abandi n'abana baje ku ivomero rye mu cyaro bafite ibivomesho indobo, amabaso ndetse n'ibijerekani. Abo bana nibo bari kuzunguza icyuma hanyuma amazi akaza.

Abana batoya bambaye impuzankano ndetse biga mu mashuri abanza, bari mu kigo hagati, barimo kwigishwa uburyo bazajya banywa amazi ategurwanye isuku, harimo avuye mu matanke, kandi amatanke afite isuku cyane.

Abantu benshi bagiye kuvoma ku mugezi, bamwe bafite indobo, abandi amajerekani barimo kurwana kugira ngo bavome, ni benshi cyane.

Umugore ufite umwana, yajyanye umwana kwa muganga ndetse umuganga ari kumuhereza serivisi zitandukanye, amwitaho mu buryo bukwiriye kandi amuganiriza cyane.

Abantu bagiye kuvoma, ndetse umuntu mukuru arimo kuzunguza amazi akagwa mu tujerekani, abana nabo bakadufata bagataha ndetse ari kubaha uburere nk'umubyeyi wabo.

Abaganga babiri bari kwita ku mwana mutoya cyane, barimo bamubaga kandi bafite ibikoresho byabugenewe ndetse n'imyenda bambaye isa neza cyane ifite isuku ihagije.

Abantu bagiye ku mugezi, abana ndetse n'abakuru bafite utujurekani mu ntoki kandi umwe ari kuzunguza amazi akagwa mu tujerekani kandi uyu mugezi wubakiye mu gishanga.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe bari kwita ku murwayi w'umusaza bamumurika mu kanwa kugira ngo barebe indwara, kandi bari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano kandi biga mu mashuri abanza bagiye kuvoma bari ku ivomero; bamwe bafite indobo, abandi utujerekani; bamwe muri bo bari koga ibiganza bakoresheje ayo mazi yo ku ivomera.

Umurwayi wagiye kwa muganga abaganga barimo kumusuzuma bamupima ngo barebe umuvuduko we w'amaraso, kandi bafite n'ibikoresho byabugenewe na mudasobwa.

Abaganga bakorera ku kigo nderabuzima cya Mayange barishimye cyane barimo kuririmba, baririmbira umuyobozi wabo waje kubasura, bishimye cyane n'umuyobozi arishimye.

Umwana mutoya w'umunyeshuri, yambaye impuzankano kandi yiga mu mashuri abanza, afite udukombe tubiri turimo amazi, ari mu gishanga kirimo amazi mabi atera indwara.

Ikirangantego cya Unicef bisobanura ko ari ikigo gishinzwe imibereho myiza y'umwana, harimo kumuhereza ibyo kurya, kumuha uburezi bukwiye ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana agire imibereho myiza.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bana kibahiriza ibikenewe byose mu mikurire yabo, harimo kubaha uburezi bukwiye ndetse no kubitaho mu byo kurya, n'ibindi.

Abana benshi bari ku mugezi ndetse umugezi watobotse, amazi ari kunyura ahatemewe, abana bari koga ibiganza byombi kandi barishimye cyane, abandi bari kureberera.

Umwana mutoya w'umukobwa yagiye ku ivomero, arimo koga intoki ze zombi, akoresheje amazi aturuka mu ivomero, mu gihombo arishimye cyane ndetse yazananye ibijerekani.

Abantu benshi bagiye kuvoma bari ku ivomero bafite ibijerekani by'ibara ry'umuhondo kandi amazi ntaraza, umugore ari gukora inyuma y'ivomero kugirango ayabafungurire abandi bari inyuma barashungereye.

Abaturage bari mu nama ndetse bari ku kagari ndetse ni benshi cyane, bagiye bakora amatsinda amatsinda. Bari bari kuganira ku bibazo bijya biboneka mu baturage ndetse bari no gufatira hamwe imyanzuro, harimo kwirinda amakimbirane ndetse n'ibindi.

Umwana mutoya w'umuhungu yagiye ku mugezi arimo gukaraba ibiganza bye byombi akoresheje amazi meza n'isabune ndetse arishimye cyane kandi uyu mugezi ufite isuku ihagije.

Umugore w'umunyafurika ari gukoresha inama afite indangururamajwi kandi ari kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwiza bw'umwana, harimo kumuha uburezi bukwiye ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bashinzwe imibereho myiza abaturage bari mu murima, barimo guhinga akarima k'igikoni bateramo imboga z'amoko yose harimo karoti, dodo ndetse n'izindi.

Abantu bari mu nama ku rugo rw'umuntu ndetse uri kuyibakoresha ni umugabo ahagaze imbere yabo arimo kubaganiriza akoreshe ijwi riranguruye kandi abasaba kugira ngo ufite ikibazo amubaze amusobanurire.

Umwana mutoya w'umuhungu yagiye ku ivomero cyangwa se ku mugezi arimo koga ibiganza bye byombi akoresheje ayo mazi aturuka mu mugezi, yagiye kuvomesha indobo kandi arishimye.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe kandi afite ibikoresho byabugenewe, arimo gutera uruhinja urushinge kandi uruhinja nyina araruteruye ruri kureba cyane.

Umukecuru, yagiye ku mugezi ari kuvoma, kandi aya mazi yo ku mugezi, ni meza cyane kandi afite isuku ndetse ntago yatera indwara, zandurira mu mwanda.

Abana batoya batatu barishimye cyane bari ku ivomero bari gukaraba ibiganza byabo bakoresheje amazi aturuka mu ivomero kandi ndetse inyuma yabo hari ibiti birebire kandi n'ahandi inyuma nko muri metero ebyiri hari umuhanda w'igitaka.

Umwana mutoya w'umukobwa yagiye ku mugezi mu gishanga, arimo gukaraba ibiganza bye byombi, akoresheje amazi yo ku mugezi.

Abantu benshi bari mu nama bari kwiga ku bintu bitandukanye ndetse bamwe bafite n'amakaye bari kwandika, barakurikiye cyane kandi uri kubaremisha inama ni umugabo.

Umwana mutoya w'umukobwa, yiga mu mashuri abanza kandi yambaye impuzankano, arishimye cyane ari koga intoki akoresheje kandagira ukarabe iri mu rugo.

Umugore uri mu rugo, arimo gufura, ari kuvoma amazi, ayateze ku gihombo kiyazana, arishimye cyane kandi asutararaye mu bitaka.

Abayobozi bari mu nama, barishimye cyane ndetse uri kubasobanurira ni umugabo, baricaye, bamaze kunywa icyayi ndetse barishimye cyane.

Abantu benshi bagiye ku ivomero ndetse aho amazi aturuka bateretsemo ijerekani y'ibara ry'umuhondo, abandi bari inyuma, umugabo arimo kuzunguza icyuma amazi agahita aza mu ijerekani.

Abantu bashinzwe ubuzima bwiza bw'abaturage bazwi ku izina ry'abanyabuzima, barimo kwifotoza cyangwa se bahuriye hamwe bari kumwe n'abayobozi babo bari kuganira bungurana ibitekerezo.

Abana batoya barishimye cyane ni babiri ndetse bababajije ikibazo, umwe ari kumanika agatoki asaba uburenganzira bwo gusubiza mu gihe kitabangamye.

Abantu bakuru bashinzwe ubuzima bw'abana, barimo kubahereza igikoma, babaganiriza kandi bita ku buzima bwabo ndetse n'imikurire yabo ya buri munsi.

Umuntu uri ku mugezi arimo koga ibiganza bye byombi akoresheje amazi yo ku mugezi asa nabi cyane kandi kuri uwo mugezi nta suku ihari ihagije.

Umuntu uri ku mugezi arimo koga ibiganza bye byombi, akoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara zandurira mu myanda.

Abana batoya bagiye ku mugezi barimo kuvoma, ni umuhungu n'umukobwa umwana w'umukobwa arimo gutega akajerekani ku mugezi naho undi nawe ari inyuma ari kuzunguza kugira ngo amazi aze menshi.

Agatanda kubakishije ibiti, tuno dutanda dukunda kuboneka mu cyaro, banikaho ibikoresho by'isuku, bikoreshwa mu kuriraho cyangwa kunyweramo, harimo amasahani, ibikombe, ibisorori, amafurusheti ndetse n'ibindi.

Abantu benshi barimo abagore bafite abana batoya, umwana bari kumwigisha kunywa ndetse ari kubyigishwa n'abantu bashinzwe imibereho myiza y'umwana.

Umukobwa uri mu rugo amaze kumesa imyenda, arayanitse ari kuvoma ku mugezi wubakiye mu rugo, ndetse arishimye cyane, aya mazi ni ayo gufurisha kuko ntago ari meza yatera indwara.

Abantu benshi bari mu nama bayobowe n'abagabo babiri ndetse uri kubaganiriza ni umugabo ufite mudasobwa imbere ye, bari kuvuga k'uguhagarika kw'indwara ya mabaga mu gihugu cyose.

Umwana mutoya w'umuhungu ari ku ivomero yari yagiye kuvomesha indobo arimo kuyikorera irimo amazi ndetse imbere ye hagaze umugabo ari kumureba.

Abana batoya b'abahungu bishimye cyane barimo gukubagana bakinana n'amazi, bagiye ku ivomero ku mugezi kandi amazi ari kumeneka hasi hatose cyane.

Umwana mutoya w'umuhungu arishimye cyane yagiye kuvoma k'umugezi, arimo kuvomesha ikijerekani kinini kandi ari mu gishanga mu byatsi byinshi.

Abakozi ba UNICEF, ari cyo kigo cy'igihugu cyita ku buzima bwiza bw'umwana, harimo kumuha uburezi, ibyo kurya ndetse n'ibindi byose bimufasha mu mikurire ye.

Umwana mutoya w'umukobwa ari ku mugezi arimo kuvomesha icupa, ndetse ari gukubagana arimo kumenagura amazi, ndetse aya mazi ari mu gipangu, kandi ni meza cyane.

Abantu bambaye neza ndetse bari hanze y'inzu ikorerwamo inama kandi abo bantu barishimye cyane ndetse aho bahagaze hafite isuku ihagije.

Abanyeshuri batoya bambaye impuzankano biga mu mashuri abanza, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, baje ku ivomero bari kuvomesha indobo z'ibara ry'umuhondo kandi barimo kuganira bishimye.

Abantu benshi bagiye ku ivomero harimo abafite indobo, abafite amajerekani n'umugabo wambaye ikasike y'ibara ry'umuhondo nawe ari ku ivomero, iryo vomero riteye irangi ry'ibara ry'ubururu.

Umuganga wambaye umwenda wera wabugenewe, ari kwita ku mwana amunywesha imiti kandi ari kubikorana ubushishozi kugira ngo umwana atabigiriramo ingaruka cyangwa se hakavuka ikindi kibazo.

Abantu benshi bari kureba umurwayi wa ebola ndetse biheza cyane uburyo indwara ya ebola ifata ibice by'umubiri ifata ndetse n'uburyo bigaragara, abandi na bo bari guhamagara kugira ngo bamufashe.

Abayobozi b'igihugu bari mu nama, barakurikiye cyane kandi bambaye neza, bayobowe n'umugabo urimo kubaganiriza, aseka kandi imbere yabo bose hari ibendera ry'u Rwanda.

Abantu bari mu nama barimo kuganira ku bijyanye n'ubuzima kandi intego yabo ni gira ubuzima, bicaye imbere y'inyubako irimo abantu benshi batandukanye.

Abana batoya b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano, barimo gufata ifunguro rya saa sita ku ishuri, hano bari kurira mu ishuri kandi barishimye cyane.

Abantu bahuriye hamwe ndetse bambaye imyenda igaragaza akazi bakora, bahagarariye abaturage muri rusange, bari ku munsi mukuru Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri kugira ngo barandure kanseri y'inkondo y'umura.

Abana batatu b'abasore, bagiye gutega amazi mu mazi atemba, aya mazi ni mabi cyane ndetse yanduza indwara zitandukanye harimo malariya, ibicurane ndetse n'ibindi, kandi ni mu gishanga.

Abantu bari mu nama ndetse barakurikiye cyane, inama iyobowe n'umugore wambaye neza cyane ndetse arimo kubaganiriza ku ngingo runaka ndetse nabo bakumva cyane, bakanamukurikira kugira ngo bamubaze aho batumvise bunguke cyangwa se barusheho kumenya byinshi.

Umwana mutoya w'umusore yagiye ku mugezi kuvoma, afite ijerekani y'umweru, arimo kuvoma ndetse ari kumwe n'abandi benshi, harimo n'abagore.

Abaganga bari mu cyumba cyo kwa muganga ndetse babiri muri bo bafite amakaramu bari kwandika kandi bafite za mituweri mu ntoki barimo kugenda bandika amazina.

Abana babiri b'abahungu bari mu rugo, umwe arimo kogera mu ndobo yoga ibiganza byombi akoresheje amazi n'isabune ndetse undi mwana afite rozwari arimo kumusukira amazi.

Abadamu bishimye cyane bari kubyina imbyino gakondo barambura amaboko ndetse bari mu nyubako nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye ameza, intebe ndetse n'ibindi.

Abagore bagiye gupimisha abana babo ibiro ndetse bari kumwe n'umunyabuzima ubishinzwe, ushinzwe kureberera ubuzima bw'abana ndetse no kureba ibiro bafite, bakoresheje umunzani.

Umugabo wishimye cyane, ari mu rugo mu mbuga, arimo gukaraba intoki ze zombi, akoresheje amazi ari kuri kandagira ukarabe yubatse mu rugo ndetse muri iyi mbuga hepfo yaho hari ibiti birebire, hasa neza cyane.

Umugore n'abana babiri, umugore we n'umwana bikoreye amajerekani y'amazi, ndetse undi ni umunyeshuri, yambaye impuzankano kandi yiga mu mashuri abanza, barimo gutaha bageze ku nyubako.

umwana mutoya wumukobwa yagiye ku ivomero ategaho ibase arimo koga intoki akoresheje ayo mazi yo ku ivomero kandi inyuma ye hari urugo rwubakishije amatafari ruzitiye inyubako.

Umudamu wazanye umwana we kwa muganga ndetse n'umuganga ari kumwitaho amuha umuti yitonze cyane kuko ari umwana mutoya ndetse arimo kuganiriza nyina bishimye cyane kandi ari gutanga serivisi abikunze.

Abana batoya b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano bose baje kunywa amazi ndetse no gukora isuku y'ibiganza ku ivomero riri ku kigo, barishimye cyane ndetse biragaragara ko bari mu gihe cy'akaruhuko.

Umugezi wubakiye, ndetse hariho abagore batatu bagiye kuvoma, umwe ari kuvomera kuvomera mu ndobo, abandi bari kumufasha kuzunguza kugira ngo amazi aze bitamugoye.

Abantu babiri bagiye kuvoma ku mugezi ndetse aya mazi ni meza cyane afite ubuziranenge, buri wese ari kuvoma, uyu mugezi ufite imigezi ibiri ndetse kandi haza amazi menshi.

Abantu bagiye kuvoma ku mugezi ndetse umudamu umwe arimo kogerezayo umwana akoresheje amazi yo ku mugezi kandi aya mazi ni meza cyane, afite ubuziranenge, ndetse ari kumurinda kugira ngo yirinde imyanda.

Umugore wishimye cyane, ari mu rugo iwe ndetse yubatse kandagira ukarabe, akoresheje ibiti ndetse n'akajerekani, arimo koga ibiganza bye byombi, akoresheje ubwo bwogero bw'iwe mu rugo.

Umuganga ndetse n'umumama ufite umwana, yaje kumuvuza ibyo mu kanwa, umuganga ari kwita ku mwana, amuha serivisi zose zigenewe kandi arimo no kuganira.

Abaganga barimo guha umukecuru imiti itandukanye, bavuye kumusuzuma babona indwara arwaye, none bari kumuhereza imiti banamusobanurira uko azajya ayikoresha.

Abantu benshi bari mu nama ndetse baritonze cyane, barakurikiye barimo kwiga ku ngingo runaka kandi ni abayobozi abenshi muri bo ndetse ni abagore n'abagabo.

Umugabo wishimye cyane, yagiye ku mugezi, yicaye ku kijerekani yamaze kuvoma kandi inyuma ye, hari ibyatsi ndetse n'indabo nyinshi.

Abantu bari mu nama, bari kwiga ku bukungu burambye, kandi uyu ni umunsi mukuru w'ibiganiro bivuga ku bukungu bw'igihugu burambye.

Abayobozi bari mu nama, bari kwandika ibyo bumvise ndetse bafite n'amacupa imbere yabo arimo amazi meza kandi yateguranwe isuku.

Abaganga barimo kwita ku barwayi batandukanye babaha ibinini abandi babatera inshinge ndetse abahabwa imiti basobanurirwa uko bazajya bayinywa n'uko bazajya bayikoresha.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe kandi ifite isuku cyane, barimo kwita ku barwayi, babapima umuvuduko w'amaraso, abandi babatera inshinge kandi abandi babahereza ibinini byabugenewe.

Umwana mutoya w'umuhungu ari ku ivomero, yagiye kuvomesha indobo, ari kunywa amazi aturuka muri iryo vomero cyangwa se mu gihombo, akoresheje ibiganza bye byombi.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, isa neza kandi afite n'ibikoresho byabugenewe, ari gutanga serivisi ku barwayi, abapima umuvuduko w'amaraso.

Umuganga ukora akazi ke neza ndetse yambaye imyenda yabugenewe, arishimye cyane arimo guhereza umugore serivisi atera umwana urushinge, kandi abikorana ubwitonzi ndetse n'ubushishozi.

Umugore n'abana bari ku ivomero, afite ikijerekani arimo kuvoma kandi arishimye cyane, ku ivomero inyuma yaryo hari ikibuga kimezemo ibyatsi byinshi.

Abantu benshi barimo kwifotoza, abenshi muri bo bambaye imyenda yabugenewe, igaragaza ko bashinzwe ubuzima bw'abaturage kandi harimo n'ababahagarariye baje kubasura.

Abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'abana, imikurire yabo ndetse no kubaha uburezi bufite ireme barimo kubitaho babahereza igikoma buri wese kandi babaganiriza, barishimye cyane.

Umwana mutoya w'umuhungu yagiye ku ivomero arimo koga mu ntoki akoresheje amazi yo ku ivomero kandi imbere ye hari indobo yaje kuvomesha, inyuma ye nko muri metero icumi hari umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye.

Abaturage bari gukorera inama ku kagari ndetse bari kumwe n'abayobozi babo bari kwiga ku bibazo bitandukanye biba mu kagari kandi bagafatira hamwe imyanzuro yo kubikemura.

Abantu bagiye kuvoma ku mugezi mu gishanga bajyanye amajerekani atandukanye, umugabo umwe ari kuzunguza umugezi kugira ngo amazi aze.

Umwana mutoya w'umuhungu ari kuvomesha igikombe ashaka amazi yo kunywa ndetse arishimye cyane, kandi aya mazi asa neza afite ubuziranenge.

Abantu benshi bashinzwe ubuzima bw'umuntu muri rusange, bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'amakarita mu ijosi, bari kumwe n'ababahagarariye mu rwego rw'igihugu.

Abantu benshi cyane bari mu nama, buri wese afite mudasobwa kandi bicaye bareba imbere, imbere yabo hari ibishushanyo bitandukanye, byanditseho amagambo kandi buri wese afite n'icupa ry'amazi ndetse n'ikayi n'ikaramu.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ifite n'isuku, arimo kwita ku murwayi amutera urushinge akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Inyubako yubatse neza cyane kandi ifite n'isuku ihagije ariko ntibararangiza kuyubaka barikuka neza indi nyubako ariko hafite isuku kandi ihagije.

Abana batoya cyane bo muri Unicef bitabwaho n'ikigo gishinzwe abana mu Rwanda, hitabwaho cyane cyane uburezi bwabo ndetse n'imirire yabo, aba bana barishimye bari kwiga gukaraba intoki zombi bakoresheje amazi meza n'isabune.

Inyubako ndetse na fondasiyo bakiri kubaka bataratangira kuzamura inzu ibitaka ndetse n'abantu bari kuhagenda.

Umukobwa wagiye kuvoma mu mazi atemba akoresheje indobo ndetse aya mazi asa nabi cyane afite umwanda kandi ari mu gishanga yatera indwara nyinshi zitandukanye.

Ikirangantego cya UNICEF aricyo kigo cy'igihugu cyita ku buzima bwiza bw'abana harimo kubaha ibiryo ndetse no kubaha uburezi bukwiye babitaho cyane.

Umwana mutoya w'umukobwa ari ku mugezi arimo koga ibiganza bye byombi akoresheje amazi yo kumugezi, kandi arishimye cyane, arimo no kubikora neza mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu mwanda.

Abayobozi bari mu nama harimo abagore n'abagabo, bari kuganirizwa n'umugabo umwe wicaye imbere yabo ndetse buri wese imbere ye hari ameza kandi bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika.

Abayobozi basa neza cyane, bashinzwe ubwubatsi ndetse n'ubutabera. Basuye ahantu, bambaye neza kandi harimo abagabo n'abagore, barishimye cyane.

Abantu benshi bambaye imyenda isa bigaragara ko bashinzwe kurwanya ihohoterwa, bahagarariye abandi kandi harimo n'abapolisi bafashe icyapa kigaragaza ibyo bari kwizihiza.

Umugabo ubana n'ubumuga bwo mu mutwe, yambaye imyenda icikaguritse cyane kandi ari kuvuza induru, ndetse inyuma ye hari abantu ari hagati mu muhanda.

Abantu benshi bambaye imyenda isa nabi cyane, kandi bari kurira, bihebye cyane, basa nabi kandi bose ni benshi cyane, kandi bahagaze mu muhanda w'igitaka bigaragara ko ari abasabirizi cyangwa se abantu batabayeho neza b'abakene.

Umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe, yicaye ku rukuta aregamye, afite ibicupa mu ntoki, ndetse yambaye imyenda icitse cyane, kandi arigunze ntabwo yanakarabye.

Umugore wicaye mu rugo ndetse n'abana be kandi yari arimo kugosura ingano akoresheje intara ndetse ari gupimira mu ingemeri kugira ngo amenye neza ibiro birimo.

Abantu bari mu nama yo mu munsi mukuru w'ibiganiro by'ubwumvane mu baturage ndetse umugabo ari kubasobanurira kugira ngo nabo baze kubaza ibibazo aho batumva.

Umugore n'umwana we barishimye cyane barimo guseka, bari mu rugo ndetse uyu mwana ni mutoya cyane, arimo kwiga guseka kandi na mama we akishima cyane.

Inama irimo abagore n'abagabo ndetse uri kubaganiriza ni umugore, arimo abasobanurira ku ngingo runaka ndetse ababwirwa bari kwandika bafite amakaye n'amakaramu.

Umugabo usa nabi cyane ndetse yambaye n'imyenda isa nabi, yambaye igipine cy'imodoka yicaye hasi mu muhanda w'igitaka ndetse abantu bamuhagaze hejuru bari kumushungera.

Ibitaro byiza, kandi byubatse neza ndetse hanze y'aho hari ibyapa bisobanura serivise batangiramo ndetse hari n'ikibuga cy'ibyatsi kandi cyubakiye neza.

Umugore wigunze cyane ndetse arimo kurira yihebye arimo kwihanagura mu maso ndetse arababaye cyane nta cyizere afite cy'ejo hazaza akeneye umujyanama.

Abantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo, baritonze cyane barakurikiye ndetse barikumva neza ibyo umuntu uri kubabwira ari kubabasobanurira.

Amafoto ane ariho abantu bamwe bari kwita ku kimera bari kugaragaza uburyo babyitaho kandi banabyuhira inyuma yabo hari inyubako.

Umukobwa w'umunyafurika, arishimye cyane ari guseka, ndetse yicaye ku ntebe, bene izi ntebe ni iz'abakera kandi yicaye hanze y'inyubako.

Umugabo n'umugore bicaye imbere y'imbaga y'abantu, barimo kubakoresha inama, umugore afite indangururamajwi ari kubasobanurira ku gitekerezo runaka ndetse yitonze cyane.

Umugore w'umunyafurika avuye gukura ibijumba abifite mu gakapu, kandi afite n'imigozi yaguzi y'ibyo akuyeho kandi ari mu rugo arishimye cyane.

Umwana w'umukobwa aricaye munsi y'igiti arigunze cyane kandi aboshye ukuguru n'umuyururu, bigaragara ko bamuziritse inyuma ye hari ishyamba.

Abantu benshi barimo kwifotoza, bahagaze hamwe kandi basa neza cyane, benshi muri bo bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, abandi barabahagarariye kuko ni bakuru kubarusha.

Umuntu w'umugabo, ubana n'ubumuga bwo mu bwonko, yicaye mu mufurege, yambaye imyenda icikaguritse cyane kandi inyuma ye hari ikibuga kimezemo ibyatsi.

Abantu bari mu nama, umugore umwe arimo kubaza ikibazo, asobanura kandi abaza n'abandi mu rwego rwo kugira ngo basobanukirwe cyangwa se bagire ubumenyi bwo hejuru.

Abantu barimo kwifotoza bishimye cyane, bamwe muri bo bafite ibyapa bigaragaza ko bashinzwe kwita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, kandi inyuma aho bahagaze hari ubusitani bwiza cyane.

Icyapa kigaragaza aho ibitaro by'i Ndera biherereye kandi hariho umuntu w'umuzungu, arimo kwifotoza yishimye cyane, kuri iyo nyubako.

Abana batoya bambaye imyenda isa nabi cyane, bari mu murima kandi ni benshi ndetse bari guseka barishimye cyane.

Umugabo ari ku nyubako ari gutekereza ibintu byinshi ndetse arigunze ari wenyine, afite irungu ryinshi kandi arimo kwibaza ejo hazaza uko bizaba bimeze.

Inyubako nziza ifite isuku, ni iy'abasore bihayeyi imana kandi yubatse neza cyane ku buryo bugaragarira buri wese, hanze yayo hari ubusitani bwiza ndetse umuntu arayireba akaba yatekereza kujyayo.

Abantu benshi bari mu nama, bicaye ndetse barakurikiye cyane, imbere yabo hari icyapa, uri kuyibakoresha ni umudamu, ari kubasobanurira ibyanditse ku cyapa.

Umwana muto w'umukobwa ni umunyeshuri yambaye imyenda yimpuzankano kandi yiga mu mashuri abanza, yicaye mu ishuri ry'inshuke arimo kurya biswi yishimye cyane.

Umugabo arimo gusuhuza undi mugabo, ubana n'ubumuga bwo mu mutwe, wambaye imyenda icikaguritse cyane, hafi yo kwambara ubusa, arimo kumuganiriza, yatunguwe cyane.

Inama iremeshejwe n'abantu babiri, umugore ni we uri kuvuga ijambo, afite indangururamajwi ndetse aritonze cyane, arimo gusobanura ingingo runaka.

Umudamu ushinzwe ubuzima ari gusobanurira undi mugore uko urukingo rukoreshwa ndetse anamwereka uburyo rufite isuku ihagije ku buryo budashobora gutera izindi ndwara.

Umugabo ubana n'ubumuga bwo mu mutwe, ari mumuhanda nyabagendwa, yambaye imyenda icikaguritse cyane afite n'ibintu by'imyanda, inyuma ye hari imodoka zirimo kugenda mu muhanda.

Umusaza w'umunyafurika, arishimye cyane ndetse ari kubyina imbyino gakondo, ari imbere y' abandi bantu kandi arimo no kubaririmbira.

Abantu bari kumwe mu rugo rw'umuntu, barimo kuganira cyane ndetse harimo umwana uri kubasetsa bahuje urugwiro, inyuma yabo hari ibihingwa by'ibitoki, ndetse bicaye mu mbuga y'igitaka.

Umuntu w'umusore, ari mu cyumba arigunze cyane, arihebye kandi yambaye imyenda isa nabi, afunzwe amaguru yombi n'iminyururu, kandi aho ari ahafungiye wenyine.

Abakobwa babiri bari mu cyumba barimo kuganira bishimye, kandi umwe ni umunyabugeni arimo gusobanurira undi uko abigenza ndetse n'ibyiza byabyo.

Abantu bari mu rugo bari kuganira ndetse uri kubaganiriza ni umukobwa, arishimye cyane na bo bari kumwumva neza kugira ngo nyuma bamubaze ibibazo aho batumva.

Abantu bicaye mu rugo mu cyaro barimo kuganira harimo umusaza ndetse ari gukaraba ibirenge akoreshe isabune, inyuma yabo hari ibihingwa by'ibitoki.

Abantu bari mu nama bishimye cyane, barimo gukoma amashyi bashimira uwabakoresheje inama kandi barahagaze bari gutanga icyubahiro akwiye.

Umugore n'abana be bicaye mu rugo, barimo kugosora cyangwa se gukorera isuku ibinyampeke aribyo ingano kandi baritonze cyane.

Umuntu wumugabo yicaye mu muhanda nyabagendwa kaburimbo ndetse biragaragara ko abana n'ubumuga bwo mu mutwe, yambaye imyenda isa nabi cyane kandi inyuma ye hari inyubako.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe kandi ifite isuku, ari mu cyumba cyo kwa muganga, arimo kwandika, uko imiti itandukanye ikoreshwa yifashishije ikaye n'ikaramu.

Umugabo w'umunyafurika avuye koga arimo koza amenyo akoresheje umuti wayo ndetse n'akaroso kandi ari kubikorana ubwitonzi.

Umuganga ufite igikoresho cyabugenewe arimo kwita ku mwana mutoya, amukura iryinyo anamuganiriza cyane kugira ngo atababara akarira cyangwa se akagira ubwoba.

Abana batoya cyane b'abanyeshuri barimo kwiga uko boza amenyo bakoresheje umuti wayo wabugenewe uzwi ku izina rya korogati ndetse bafite n'uturoso twayo tuyoza neza.

Abaganga bari mu cyumba cyo ku bitaro, bafite igikoresho cy'ishusho y'akanwa karimo amenyo, barimo kwiga uburyo bakura amenyo, bakoresheje ibikoresho byabigenewe byo kwa muganga.

Abana benshi bari mu ishuri bari kumwe n'umwarimu wabo barishimye cyane, bari barimo kubigisha gukoresha umuti w'amenyo mu rwego rwo kugira isuku mu kanwa babahaye korogate bari kumwenyura cyane.

Abana batoya cyane biga mu mashuri abanza, kandi bambaye impuzankano, barimo koza amenyo yabo bakoresheje amazi meza ndetse n'uburoso bw'amenyo, bishimye cyane kandi babikorana ubwitonzi.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe kandi ifite isuku, arimo gufasha umurwayi amukura iryinyo akoresheje ibikoresho byabugenewe kandi arimo kubikorana ubushishozi buhambaye.

Umwana mutoya arimo kwiga uko boza amenyo bakoresheje uburoso bwayo ndetse n'umuti wayo ari wo korogate kandi arishimye cyane asa na neza.

Umwana uryamye ari mu cyumba cyo kwa muganga ndetse umuganga nawe we yambaye imyenda yabugenewe agiye kumwitaho amuha serivisi zitandukanye kandi afite ibikoresho byabugenewe agiye kumukura iryinyo.

Umwana muto w'umukobwa ari ku bitaro kwa muganga arimo kwikuza amenyo muganga na we afite ibikoresho byabugenewe arimo kumuha serivisi amukura iryinyo.

Umuganga ndetse n'umwana urwaye amenyo umuganga yambaye imyenda yabugenewe ndetse ari gukura umwana iryinyo akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umugabo wishimye cyane, yicaye mu cyumba cyo kwa muganga kandi yambaye imyenda yabugenewe, harimo itaburiya ifite ibara ry'umweru kandi no muri iki cyumba yicayemo gifite isuku ihagije.

Umwana mutoya w'umukobwa aricaye mu cyumba arimo koza amenyo ye akoresheje akaroso k'amenyo ari kubyiga arebeye ku muntu uri kubimwigisha.

Umumama ndetse n'umwana we muto w'umukobwa, arimo kumwigisha uko boza amenyo bakoresheje umuti wayo uzwi nka korogati ndetse n'uburoso bwabugenewe bwoza amenyo.

Umurwayi uri kwitabwaho na muganga, hakoreshejwe ibyuma byabugenewe ndetse bifite isuku kandi na muganga yambaye imyenda yabugenewe ifite isuku, arimo kumukura amenyo yitonze cyane.

Umuganga ufite ibikoresho byabugenewe byo gukura amenyo, arimo kwita ku mwana mutoya w'umuhungu urwaye amenyo kugira ngo amukize.

Umusore w'Umunyafurika yambaye agapira k'ibara ry'umweru kera cyane ndetse arimo guseka, arishimye cyane mu buryo bugaragarira buri wese.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe kandi ifite isuku cyane, barimo gusuzuma umwana bareba mu gice cyo mu kanwa basuzuma iryinyo arwaye kugira ngo bamufashe, bamuhe ubuvuzi bukwiye.

Abana b'abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano kandi biga mu mashuri abanza, barimo kumanika imiti y'amenyo izwi ku izina rya korogati barishimye cyane kandi babigishije n'uko ikoreshwa.

Umwana mutoya w'umukobwa wagiye kwa muganga kwikuza iryinyo, umuganga na we ari kumuha serivise zitandukanye kandi zabugenewe, abanza kureba iryinyo rirwaye aho riherereye akoresheje ubumenyi.

Umukobwa w'Umunyafurika aricaye, arimo kwireba mu ndorerwamo arishimye cyane kandi yicaye mu nyubako nziza isa neza.

Umugabo w'umunyafurika, arishimye cyane arimo guseka, agaragaza amenyo yose ndetse ari kugenda mu muhanda kandi izuba riri kuva ndetse yambaye ikote ry'ikoboyi.

Abantu benshi bari mu nama, umugore umwe arahagaze arimo kubereka, bari kwiga ku buryo bwo koza amenyo bakoresheje umuti wayo, ari kubereka uburyo wakoresha uburuso bw'amenyo n'uburyo wayoza neza kugira ngo utikomeretsa.

Abantu babiri umuganga ndetse n'umurwayi, umuganga yambaye imyenda yabugenewe ndetse afite n'ibikoresho byabugenewe arimo gukura amenyo umurwayi.

Umukobwa w'Umunyafurika, arimo koza amenyo, akoresheje uburoso bwabugenewe ndetse n'umuti wabugenewe, uzwi ku izina rya korogati, ari kwireba mu ndorerwamo, kandi ari kubikora neza.

Umuganga ndetse n'umurwayi w'umukecuru, umuganga arimo guhereza umurwayi serivisi amuha akagozi ngo agashyire hejuru kugirango muganga arebe ko umurwayi akibona neza.

Umugore ubyibushye, arimo gukora siporo, yicaye hasi ku gasambi, ari kunanura amaboko ndetse n'amaguru, kandi yambaye utwenda tumufasha gukora siporo neza.

Umugore ndetse n'umusaza baricaye mu cyumba, barimo kuganira uko umusaza azajya anywa imiti, umugore arimo kumugaragariza uko azajya abikoresha kandi akanywa n'amazi.

Abantu batatu b'abadamu barishimye cyane, babiri muri bo bambaye imyenda y'umweru, undi yambaye itandukanye n'iyabo, uwo hagati afite terefone arimo kubafotora akoresheje kamera y'imbere.

Umukecuru n'umusaza bari mu rugo baricaye, umukecuru arimo gusobanurira umusaza uburyo azajya akoresha imiti buri munsi kandi akazajya akoresha n'amazi.

Umuganga w'umusore wambaye imyenda yabugenewe ndetse yicaranye n'umusaza barimo kuganira, umuganga amusobanurira uburyo azajya afata imiti, amugira inama kandi anamurinda kwigunga.

Umusaza n'umukecuru bari mu nzu iwabo, barishimye cyane. Bicaye muri saro ndetse umukecuru arimo gusomera inkuru umusaza, umusaza agaseka mbese bafite ibihe byiza.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse ufite isuku cyane arimo kwita ku murwayi amupima umuvuduko we w'amaraso kugira ngo arebe uko amaraso ye atembera neza mu mubiri kandi uyu murwayi abana n'ubumuga bwo kutagenda.

Abagore babiri bishimye cyane, bari mu rugo mu cyumba, umwe ari gutegura ifunguro, yibanda ku mboga, inyanya, karodi ndetse n'ibindi.

Umuganga w'umugore, yambaye imyenda yabugenewe ndetse ifite n'isuku, ari kumwe n'umugabo w'umusaza w'umurwayi, barimo guseka baganira cyane, muganga arimo kumusuzuma ngo arebe ko akirwaye.

Umusaza n'umukecuru bari murugo barishimye cyane, bari gukina umukino usetsa, umwe ari gutsinda bagaseka cyane bishimye, rwose bameze neza.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda yabugenewe, kandi ifite isuku yo mu ibara ry'umukara, arimo kwita ku murwayi w'umusaza amuha ibikoresho byabugenewe, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusaza hamwe n'umwana we bari mu rugo mu cyumba cy'uruganiriro baricaye ndetse bari kunywa icyayi ariko by'umwihariko umusaza afite igitabo ari gusobanurira umwana ingingo runaka bishimye cyane.

Abantu babiri bicaye umusaza ndetse n'umukecuru. Umusaza arimo gusobanura umukecuru umuti amubwira ubwoko bwawo ndetse n'indwara uvura, umukecuru arakurikiye cyane yitonze.

Umuganga w'umugore yambaye imyenda ikeye cyane yabugenewe, arimo kwita ku murwayi w'umugabo akoresha ibikoresho byabugenewe, amwigisha gutambuka kugira ngo asuzume ko ari koroherwa.

Umuryango wishimye cyane ugizwe n'umukecuru, umugore ndetse n'umwana mutoya, bari mu rugo barishimye cyane, bari gutegura ifunguro.

Abantu baje kureba umugore ufite impano yo kuboha ibyibo kandi akabiboha mu gihe gitoya cyane, barishimye cyane, barimo kumubaza ibibazo, na we akababwira uko abigenza.

Umukecuru ushaje ari mu rugo iwe, aratetse, afite inkono ku ziko kandi aricaye arimo gucana ibiti, aritonze cyane.

Umusaza ari muri siporo, arishimye cyane, arimo kunanura imitsi y'amaboko kandi yambaye kuteri ndetse n'imyenda yabugenewe ifasha umubiri we guhumeka.

Abantu benshi bari mu misango y'ubukwe barangajwe imbere n'abagabo babiri ndetse bambaye n'imyitero, bari gukoma mu mashyi ndetse ni abashinzwe kuyobora ubukwe neza ndetse no gusaba umugeni.

Umuryango w'abana batatu ndetse n'umusaza n'umukecuru, barishimye cyane, barimo kwifotoza ndetse ni umuryango w'ibyishimo kandi uteye imbere muri byose.

Umukecuru n'umusaza bari munzu iwabo barishimye cyane baricaye barimo gukina urusoro, umusaza yatsinze barimo guseka cyane mbese ni byiza.

Umuganga arimo kwita ku murwayi w'umugabo, arimo kumuha serivisi abanza kumufungira ibipesu by'ishati kandi barimo kuganira cyane, bambaye udupfukamunwa kandi bicaye mu busitani.

Umugabo ndetse n'umwana we mutoya, barimo gukina bari mu kibuga giteyemo sima ndetse umugabo ari kwaka umwana umupira, umwana akawumwima, barishimye cyane.

Abagore babiri bishimye cyane baganira, umwe arimo gutegura ifunguro cyane cyane yibanze ku mboga, inyaya, urusenda ndetse n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye imyenda ifite isuku kandi yabugenewe, arimo kwita ku murwayi w'umusaza amupima umuvuduko w'amaraso.

Umukecuru uri kwita ku musaza urwaye, arimo kumuha imiti ndetse n'amazi yo gusomeza, arimo kumuganiriza cyane anamuhumuriza kandi amusobanurira uburyo azajya akoresha imiti.

Abantu babiri umuganga w'umusore ndetse n'umukecuru ufite inkoni yitwaje, umusore yambaye imyenda yabugenewe y'abaganga ndetse n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga, barimo kwifotoza barishimye cyane.

Abantu babiri umusaza ndetse n'umukobwa, umukobwa arimo kwerekera umusaza uko azajya anywa imiti amufasha amwereka iyo miti iyo ari yo amuganiriza cyane.

Umukobwa n'umuhungu barimo kwigisha umukecuru uburyo bategura ifunguro rya mu gitondo harimo gufata icyayi, imigati, ndetse n'utubuga tworoheje mu rwego rwo kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Abantu babiri, umuganga w'umugore wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'umurwayi w'umukecuru, muganga arimo kumuvura ukuboko, akoresheje imiti yabugenewe kandi amuganiriza amuhumuriza.

Umusaza wicaye mu ruganiriro iwe mu rugo arimo gusoma igitabo ndetse ari kubitekerezaho cyane aritonze kandi imbere ye hari igikombe cy'amazi ari kuzajya asomaho kugirango aruhure umutwe.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, y'ibara ry'ubururu, kandi arishimye cyane, ari kuganiriza umusaza urwaye, ndetse amuhumuriza cyane amwizeza ko azakira.

Umukecuru wishimye cyane arimo kurya ibiryo bigizwe n'ubwoko bwose bw'indyo yuzuye, harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara.

Umukecuru ufite indangururamajwi, yafashe ijambo arimo gusobanurira abantu ku ngingo runaka, kandi ari ahantu mu kibuga hamezemo ibyatsi ndetse haparitsemo imodoka.

Umukobwa w'umuganga yambaye imyenda yabugenewe ndetse isa neza yo mu ibara ry'ubururu, arimo kuganira n'umurwayi w'umusaza, bari guseka cyane barishimye.

Umuganga w'umugore ndetse n'umusaza, muganga arimo kwereka umusaza uburyo azajya akoresha imiti ndetse n'uko azarya indyo yuzuye, hibandwa cyane cyane ku mbuto.

Umusaza n'akuzukuru ke, barimo gukina, bishimye cyane, umusaza aganiriza akana kandi agashimisha cyane mu buryo bwose bushoboka.

Ubucuruzi bw'imbuto ndetse n'ibirungo, hibandwa cyane cyane ku nyanya, amarongi, indimu ndetse na voka, harimo kurangura ndetse no kugura bisanzwe.

Umukobwa w'umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'ibara ry'ubururu, ndetse imisatsi ye iraboshye ari kumwe n'umukecuru wicaye barimo kuganira bungurana ibitekerezo ndetse anamuhumuriza.

Abantu babiri umusaza ndetse n'umugore bari ku meza barimo gufata amafunguro, hibandwa cyane cyane ku birinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, barishimye cyane barimo kuganira bahuje urugwiro.

Umukecuru ndetse n'umukobwa muto barimo kuganira, umukobwa ari kumwereka uburyo azajya abasha kunanura amaboko akoresheje akuma kabugenewe.

Abantu babiri, umurwayi w'umukecuru ndetse n'umuganga w'umugore, umuganga arimo gusobanurira umurwayi uko azajya akoresha imiti ndetse anamugira inama.

Umukobwa ndetse n'umusaza ubana n'ubumuga bwo kutagenda, umugore arimo kumusunika mu kagare, bishimye cyane, baganira kandi barikugendera mu busitani bwiza.

Umuganga arimo kwita ku musaza amuha serivise zose zikenewe, bitonze cyane kandi yambaye imyenda yabugenewe, arimo kumwigisha kurambura amaboko kugira ngo azajye yirinda indwara z'umubiri.

Abantu benshi b'abagore bambaye imyenda isa, bamwe muri bo, babiri bambaye imyenda itandukanye n'iyabo, ariko barishimye cyane bari ku murongo bagenda baririmba ndetse bacinya akadiho.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'umukecuru urwaye, umuganga arimo kunanura umukecuru akaboko, ndetse barimo kuganira bishimye cyane anamugira inama.

Umukobwa w'umunyafurika, ari mukibuga kimezemo ibyatsi, yashasheho agasambi arimo gukora siporo ananura ingingo ze zose z'umubiri kandi ari kubikorana ubwitonzi.

Abantu babiri umuganga w'umugore ndetse n'umurwayi w'umusaza barishimye cyane, umuganga arimo kwigisha umusaza uko yatambuka kugira ngo asuzume ko atagifite isereri ndetse arimo no kumuganiriza.

Abaganga bari mu cyumba cyo kwa muganga kandi bambaye imyenda yabugenewe, bari gukora umurimo wabo wo kubaga kandi imbere yabo hari amateleviziyo, abagaragariza uko babigenza.

Abantu bahagarariye kurinda igwingira bita ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubw'umwana uri mu nda kandi bamuha serivisi zikenewe kugira ngo arusheho kumera neza ndetse n'umwana atwite arusheho gukura neza atarwara.

Abaganga babiri, umwe ari kwita ku wundi amutera urushinge, bombi bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda yabugenewe ifite isuku.

Umunsi mukuru w'urubyiruko barimo gushyira hamwe kugira ngo birinde kanseri y'ibere bayisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira barishimye cyane ndetse bashishikariza n'urundi rubyiruko kugira ngo babegere bafatanye.

Abagore benshi bari mu nama, kandi bambaye imyenda isa hose, ndetse bayobowe n'undi mugore uri imbere yabo, arimo kubasobanurira ifoto iri ku ishusho, iri ku gishushanyo imbere yabo, agira ngo bafatireho urugero, ndetse basobanukirwe n'ibyiza byabyo.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe arimo kwita ku murwayi amupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe uko amaraso ye atembera mu mubiri, arimo kumuganiriza ndetse ari kubikorana ubwitonzi n'ubushishozi.

Ikimenyetso kigaragaza gukorera hamwe bita ku bana ndetse n'ubwandu bwa virusi itera sida batanga imiti yabugenewe ndetse n'ubwirinzi.

Abadamu bane baje mu nama gukingiza abana kandi barishimye cyane, bari kwa muganga, inyuma yabo aho bicaye hamanitse ibyapa bishushanyijeho abagore n'abana babo.

Inyubako nziza cyane ifite isuku, yubakishije amatafari ahiye, kandi hanze yayo hari ubusitani busa neza cyane, n'imihanda ijyayo mbese ifite isuku.

Inyubako yubatswe neza cyane, kandi ifite isuku, yubakishije amatafari mato mato ahiye, kandi hanze yayo hari ubusitani bwiza ,kandi bufite isuku ihagije.

Inyubako nziza cyane ifite isuku ihagije kandi yubatse neza, hanze yayo hari ubusitani nabwo bufite isuku ihagije ndetse n'umuhanda ujyayo wa kaburimbo na wo ufite isuku nyinshi.

Amafoto abiri n'ibyumba byo kwa muganga, kimwe kirimo umurwayi ndetse ikindi kirimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo za kizimyamwoto, indobo z'ibishingwe ndetse n'amarido. Ikindi na cyo kirimo uwo murwayi ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Inyubako nziza cyane irimo imitako, harimo akanyamasyo ndetse n'intebe nziza zifite isuku, ameza, televiziyo ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza ifite isuku kandi ihagije, harimo umuganga urimo kugenda, ndetse muri iki cyumba harimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo ibitanda amarido, ameza ndetse n'ibindi.

Urwinjiriro rw'ibitaro bya Kabgayi, umuhanda ujyayo harimo isuku nyinshi kandi hari n'abantu bari kujyayo kandi ibyo bitaro byubatse neza cyane, bifite n'isuku ihagije.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, cyubatse neza cyane kandi gifite isuku, hanze yacyo hicaye abantu baje kwivuza ndetse n'abaje kurwaza kandi na none hanze hari ubusitani bwiza bufite isuku ihagije.

Ibitaro byubatse neza ndetse hanze yabyo hari abantu benshi bari bari mu nama, bavuga ku cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, baganirira hamwe ku bibazo umubyeyi utwite yahura na byo.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, ari mu cyumba cyo kwa muganga, afite mudasobwa, arimo kureba ifoto y'umubiri w'umuntu, ari kuyireba yitonze kugira ngo na we azajye akora akazi azi umubiri uko umeze.

Inyubako nziza kandi ifite isuku, bacururizamo imiti itandukanye kandi ivura ndetse iyi farumasi batangiramo imiti itandukanye mu gihe umuntu atagiye ku bitaro.

Ibitaro byubatse neza ndetse birimo icyumba cy'abaganga b'abagore ndetse harimo n'ibindi byumba bitandukanye by'abarwayi kandi iyi nyubako ifite isuku cyane.

Ishuri ry'abana b'abakirisitu ryubatse neza cyane kandi rifite isuku, harimo n'indabo nziza na zo zitaweho mu buryo bukomeye kandi hari n'ibendera ry'u Rwanda.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi mu bitaro ndetse barishimye cyane arimo kumuganiriza anamuha serivise z'ibanze, yita ku gupima umuvuduko we w'amaraso kugira ngo arebe uko amaraso ye atembera mu mubiri.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe kandi ifite isuku y'ibara ry'umweru, ari mu cyumba cyo kwa muganga arimo gukoresha mudasobwa yihugura ubumenyi kugira ngo ajye akora akazi ke neza ku bintu azi.

Inyubako nziza yubatse neza kandi ifite isuku, hanze yayo hari abantu ndetse n'imodoka iparitse, baje muri serivise zitandukanye ndetse hari n'ubusitani bwiza bufite isuku ihagije.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byaho bitandukanye, harimo ibitanda, ameza, intebe, amarido, imisego, televiziyo ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza cyane, ifite isuku ihagije, ndetse iyi nyubako, ni umusigiti usengerwamo n'abasilamu kandi hanze yayo hari n'ubusitani bwitabwaho cyane, bufite isuku ihagije.

Umuganga uri kuganiriza abarwayi bose muri rusange, abasobanurira serivisi batanga kwa muganga, yumva ibibazo bahura nabyo bya buri munsi ndetse anababwira ibisubizo byabyo.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe cyubatse neza cyane ndetse gifite isuku, hanze yacyo hari ubusitani bwiza bufite isuku, kandi kuri icyo kigo nderabuzima hari n'umuhanda ujyayo w'amasikariye kandi hepfo yaho hari inzira nyabagendwa.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, cyubatse neza cyane ndetse gifite isuku, hanze yacyo hari uri ubusitani bwiza, ndetse n'inzira ijyayo irimo utubuye dutoya dufasha ikinyabiziga cyangwa se abantu bagendamo mu gihe cy'imvura ntibanyerere.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, hibandwa cyane cyane ku mateleviziyo, harimo ibitanda ndetse n'amatara kandi iki cyumba gifite isuku ihagije.

Abaganga bicaye mu cyumba cyo kwa muganga bose bambaye imyenda yabugenewe kandi ifite isuku ndetse barimo kuganira bishimye cyane, bafite ibikoresho bibafasha mu gukora akazi kandi bagakunze.

Ibitaro byo mu Karere ka Nyarugenge byubatse neza cyane kandi bisa neza, bifite isuku ihagije, hanze yabyo hari ubusitani bwitaweho na bwo bufite isuku.

Umuganga w'umukobwa arimo kwita ku barwayi b'abagore babiri, ari kubabaganiriza cyane kandi bamubaza ibibazo abasobanurira, barishimye cyane.

Abaganga ndetse n'abaturage basanzwe, bari kwifotoreza imbere y'ibitaro bitangirwamo serivise z'ababyeyi batwite, babitaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nziza cyane ifite isuku ihagije ndetse n'ikigo gifite ubusitani bwiza bufite isuku, amatara ndetse n'imihanda ifite isuku ihagije.

Abantu bari mu nama, bari kuganirizwa n'umugabo, arimo kubaganiriza ku ndwara ya malariya bashakira hamwe uko bayirinda ndetse n'uko bakoresha imiti yabugenewe.

Umwana mutoya w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, arimo kwigishwa uburyo boza amenyo abyigishwa na muganga hakoreshejwe ikimenyetso cy'amenyo, kandi abandi bantu bari kureba na bo uburyo babikora.

Inyubako yo kwa muganga irimo abaganga batandukanye benshi, bambaye imyenda yabugenewe yo mu ibara ry'umweru, barimo kuganira, ni amatsinda abiri ndetse iki cyumba kirimo n'ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo: tereviziyo, amatara ndetse n'ibindi.

Ibitaro byungirije byo muri Remera ndetse ni inyubako yubatse neza, ifite n'ubusitani hanze ndetse n' ibigega bibika amazi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga ndetse n'umurwayi abaganga barimo kwita ku murwayi bamugira inama kandi bamuhumuriza bamubwira icyo yakora.

Inyubako yo kwa muganga, irimo abaganga ndetse n'abarwayi ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga, harimo amatara, ibitanda, inzitiramibu ndetse na televiziyo n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga gifite isuku cyane kandi bakivuriramo indwara z'amaso, kirimo n'ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo intebe ameza ibitanda ndetse n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byaho bitandukanye, harimo igitanda, harimo mudasobwa, harimo tereviziyo, amatara, amarido ndetse n'ibindi.

Urwinjiriro rw'ibitaro bya Nyanza, byubatse neza cyane ndetse bifite n'ubusitani bwiza, hari n'umuhanda ujyayo wubatse neza ndetse hanze yayo hari undi muhanda wa kaburimbo nyabagendwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga, cyane cyane bitanda, ameza, amarido, amatara ndetse n'inzitiramibu.

Ikigo nderabuzima cya Kigina cyubatse neza cyane kandi gifite isuku ihagije, hanze yaho hari abantu kandi hari n'ubusitani bwiza bufite isuku.

Ibitaro byubatse neza cyane kandi bifite isuku, ndetse hari n'umuryango w'isuzumiro, aho umurwayi asobanura uburwayi bwe ndetse n'uko yafashwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byaho bitandukanye harimo abaganga ndetse n'abarwayi, ibitanda, intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse ufite isuku cyane, arimo gufasha umurwayi amutera urushinge, ari kubikorana ubushishozi kandi ari gukoresha n'urushinge rwabugenewe.

Abadamu bahuriye hamwe, bapimisha abana babo kugira ngo barebe ibiro bafite kandi ngo batangire babahe ibisabwa niba baragwingiye ndetse barishimye cyane.

Ibitaro byiza cyane kandi byubatse neza, ndetse byitwa isange one stop center bisobanuye ko ari aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina babaha serivisi zitandukanye z'ibanze

Inyubako nziza ibamo ibyuma bijyanye n'ubuzima mu rurimi rwamahanga yitwa rabaratwari kandi hicayeho abantu hanze yayo ndetse ifite n'ubusitani bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi batandukanye ndetse n'umuganga n'ibikoresho byaho cyane cyane amarido, inzitiramibu, amatara, ibitanda, tereviziyo ndetse n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga ndetse n'abarwayi n'ibindi bikoresho byo kwa muganga harimo ibitanda harimo televiziyo harimo imiti ndetse n'ibyapa bigaragaza aho byemewe kunyura.

Umuganga w'umukobwa wambaye imyenda yabugenewe ndetse ifite isuku cyane, arimo kwita ku kana k'agahinja kamaze kuvuka ndetse akaririmbira uturirimbo tw'uduhozo.

Icyumba cyo kwa muganga gifite isuku ihagije, kirimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, birimo ameza, televiziyo, intebe, ibitanda ndetse n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byaho bitandukanye, hibandwa cyane cyane ku ntebe, ibitanda, televiziyo, ameza ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza ya farumasi aho batangira imiti itandukanye ndetse bafatanya n'utundi duce runaka hanze yayo ku ibaraza hari abantu.

Ibitaro byiza byubatse neza cyane kandi hanze yabyo hari abantu benshi barimo abarwayi ndetse n'abarwaza kandi hari n'imodoka.

Inyubako nziza nyinshi, ubusitani ndetse n'imihanda yubatse neza, n'abantu barimo kugenda mo, kandi inyuma y'iyo nyubako, hari ibiti birebire.

Inyubako nini kandi nziza ariko itarasozwa kubakwa, hanze yaho hari abantu bahagenda baganira kandi bishimye cyane ndetse hari n'ubusitani bwiza.

Ibitaro byubatse neza ndetse birimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, harimo ameza, amatara ndetse n'ibindi kandi hari icyumba kibanza aho bakirira abarwayi.

Inzu nziza cyane kandi igereretse, hanze yayo haparitseho imodoka nyinshi ndetse n'abantu bazishinzwe kandi hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane, isa neza yubakishije amatafari ahiye matoya kandi ifite n'amadirishya n'inzugi z'ibirahure, hanze yaho ifite ubusitani bwiza cyane bufite isuku ihagije ndetse n'amatara ku muhanda.

Ibitaro bisa neza cyane, byubatse neza, biteye irangi ry'umweru, by'i Nyarugenge, kandi bifite n'ubusitani hanze yabwo busa neza cyane.

Umuganga ari kwita ku murwayi, kandi ari mu cyumba cy'abarwayi arimo kumuganiriza cyane, amubaza uko ari kwiyumva, ndetse amubaza n'ibyahindutse niba arimo koroherwa.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro by'ababyeyi, bigaragara ko bita ku babyeyi batwite ndetse iyi nyubako ifite ubusitani hanze yayo kandi ifite n'umuhanda uganayo mwiza cyane.

Inyubako nziza ifite isuku kandi ihagije ndetse ni farumasi, bacururizamo imiti itandukanye kandi ivura indwara zitandukanye, buri murwayi wese ashobora kujyayo atagiye kwa muganga azi neza indwara arwaye.

Ibitaro byo kwa muganga byubatse neza cyane ndetse bifite n'ubusitani bwiza cyane n'abantu benshi bagiye kwivuza, abandi bagiye kurwaza, kandi hari n'isuku nyinshi.

Icyapa kigaragaza aho Ikigo nderabuzima cya Matyazo giherereye ndetse n'abantu baganayo ndetse n'umuhanda y'epfo nyabagendwa kandi iyo nyubako cyangwa se ibyo bitaro byubatse neza.

Umurwayi w'umubyeyi araryamye ari mu bitaro kwa muganga ndetse arihebye cyane kandi nta muganga uhari uri kumuganiriza ariko bamwitayeho kandi ibiryamirwa aryamyemo bifite isuku ihagije.

Inyubako nziza cyane kandi ifite isuku, yubatse neza kandi harimo ibyumba bitandukanye ndetse n'intebe zifite isuku kandi bakiriramo abarwayi bose.

Inyubako nziza yubatse neza, ifite ibara ry'umweru ndetse ifite n'indabo mu nzu ndetse n'ibishushanyo bigaragaza ahemerewe kunyura n'ahatemerewe.

Icyumba cyo kwa muganga mu bitaro, kirimo abarwayi batandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga cyane cyane ibitanda, amatara, utubati ndetse n'ibindi.

Ibitaro by'amaso byubatse neza cyane kandi bifite isuku ndetse hanze yabyo hari ubusitani bwiza ndetse n'ikibuga kiza cyubakishije amatafari, indwara zose z'amaso niho zivurirwa.

Ibitaro byubatse neza cyane, byubakishije amatafari matoya ahiye, icyumba cy'ababyeyi cyangwa se inzu y'ababyeyi, hatangirwa serivisi z'ababyeyi batwite, kandi ibi bitaro bifite n'ubusitani hanze yabyo bufite isuku.

Ibitaro bigufi byita ku barwayi, ndetse byubatse neza cyane, byubatse n'amatafari ahiye azwi ku izina rya mpunyu, kandi hanze yayo hari umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa ndetse n'ubusitani.

Abantu bahagaze bafatanye neza bari kwifotoza ndetse biragaragara ko bakora muri laboratwari kandi ko ari abahanga kuri byo ndetse harimo abagore n'abagabo.

Inyubako nziza cyane y'Ibitaro bya Shyira ndetse yubatse neza, igeretse kabiri kandi ifite amadirishya ndetse n'inzugi z'ibirahure.

Icyumba cyo kwa muganga gifite isuku ihagije cyane ndetse kirimo n'ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, kandi nabyo bifite isuku, harimo bitanda, ameza, amateleviziyo ndetse n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga umurwayi uri kwitabwaho na muganga ndetse muganga arimo kumuha serivisi zitandukanye kandi yambaye imyenda yabugenewe. Muri icyo cyumba kandi harimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo imiti, harimo ibitanda, inzitiramibu ndetse n'ibindi.

Icyumba kinini cyane gifite isuku ihagije, kigaragara neza mu maso ya buri wese, kirimo intebe nyinshi ziriho ubusa ndetse aha biragaragara ko hateguriwe inama kandi imbere na ho hari imeza y'abayobozi.

Farumasi irimo imiti myinshi itandukanye kandi ivura neza ugakira ndetse harimo isuku nziza ihambaye ariko nta mucuruzi urimo.

Abantu benshi bagiye ku bitaro ndetse bose baricaye bari ku cyumba bakiriraho abagana ikigo nderabuzima hari kuzajya hinjira umwe umwe kugira ngo barinde akavuyo mu cyumba.

Abaganga batatu b'abagore, bambaye imyenda yabugenewe bari kwifotoza bishimye cyane kandi bahagaze hafi y'umuhanda w'igitaka, inyuma yabo hari ikibuga cy'ibyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga batandukanye ndetse bambaye imyenda yera kandi isa neza, barimo kwita ku barwayi babahereza serivisi zitandukanye kandi zabugenewe zibafasha, harimo kubaha imiti ndetse no kubagira inama.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi cyubatse neza cyane ndetse gifite n'isuku ihagije ndetse hari n'abantu bagiye kwivuza ndetse n'abarwaza babo kandi hanze yayo hari ubusitani bwiza bufite isuku ihagije ndetse iki kigo nderabuzima gitanga serivisi nziza kandi inogeye abahagana.

Ibitaro bivurirwamo abarwayi b'amaso kandi bifite abantu benshi, hari abarwayi ndetse n'abarwaza, kandi hari n'imodoka ziparitse hanze.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, cyubatse neza cyane kandi gifite isuku uko bikwiye, ndetse hari n'umugore hanze ushaka serivisi zo kwivuza, hafite isuku cyane.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari mato mato ahiye, iyi nyubako ifite ubusitani hanze ariko ntabwo busa neza burimo umwanda kandi hanze yayo hari ibiti byinshi kandi birebire. Iyi nyubako ni ibitaro bitangirwamo serivisi zo kwita ku babyeyi batwite.

Ibitaro by'ababyeyi cyangwase inzu y'ababyeyi, mu izina ry'ikinyamahanga ni maternity, ibi bitaro byubatse neza cyane bifite isuku kandi hanze yayo hari ubusitani nabwo bufite isuku.

Inyubako nziza cyane ya farumasi, aho batangira imiti y'ibanze cyangwa se iba yabuze ku bitaro, hanyuma bakaza kuyigura hano kuri iyi nyubako ndetse hanze yayo hari imodoka.

Ibitaro byo mu karere ka Nyarugenge, byubatse neza cyane ndetse bifite isuku ihagije, hanze yabyo hari ubusitani bwitaweho mu buryo buhagije ndetse n'abaganga babiri, bambaye imyenda yabugenewe.

Inyubako yubatse neza cyane kandi ni farumasi cyangwa se aho batangira imiti, haherereye i Remera ndetse hanze yaho haparitse amamodoka menshi kandi hari n'indabo nziza cyane.

Inyubako nziza ifite isuku kandi igeretse, hanze yayo hari abantu benshi, hari ikibuga kinini giparikamo imodoka ndetse kigendamo n'abantu, kandi hari n'ubusitani bwiza bufite isuku, bwitaweho mu buryo buhagije.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza cyane kandi gisa neza, abantu bari kukigana abarwayi ndetse n'abarwaza ndetse kandi hanze yacyo hari ubusitani bwiza cyane ndetse bufite isuku haparitse n'amamodoka yazanyebarwayi.

Ibitaro byubatse neza cyane ndetse ni inzu y'ababyeyi, batanga serivisi ku babyeyi batwite kandi hanze yayo hariho abantu barimo kuganira bitonze cyane.

Ibitaro by'i Kabgayi byubatse neza cyane kandi umuhanda ujyayo ufite isuku nyinshi ihagije ndetse n'ubusitani bwaho, kandi hariho abagenzi barimo kujyayo muri ibyo bitaro.

Ibitaro byiza byubatse neza ndetse byifitemo ibyumba bitandukanye harimo aho bakirira indembe, aho babyarira, icyumba cy'ababyaye, icyumba cy'abagore, icyumba cy'abagabo, icyumba cy'abana, imbagwa n'aho bavurira indembe.

Ibitaro byubatse neza by'i Kabutare, hariho abantu bahagaze imbere yabyo mbese barimo kuganira bitonze cyane kandi barakurikiye.

Inyubako yubatse neza cyane kandi ifite isuku yita ku buhinzi, itanga amafumbire ndetse n'ibindi byose bituma ibihingwa bikura neza.

Inyubako y'Ibitaro bya Butaro ndetse ifite ubusitani bwiza hanze. Hari abantu bari kujyayo abarwayi ndetse n'abarwaza kandi n'umuhanda ujyayo ni mwiza cyane.

Inyubako nini nziza ifite ubusitani hanze, ndetse yubatse neza cyane iranageretse, hanze yaho hari abantu batonze umurongo bakeneye serivisi.

Abantu babiri bari mu cyumba gikorerwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga, mbese serivisi zijyanye na interineti, barimo kuganira bishimye cyane banaseka.

Umuganga yaje gusura umukecuru mu rugo iwe, arimo kumuganiriza, amugira inama zitandukanye ndetse bicaye hanze, ku irembo, mu mbuga y'igitaka.

Ibitaro byo kwa muganga birimo abarwayi ndetse n'abaganga bari kubitaho, bambaye imyenda yabugenewe kandi bafite n'ibikoresho byabugenewe ndetse icyumba barimo gifite isuku nyinshi.

Icyapa kigaragaza umujyi wa Kigali aho uherereye ndetse n'ibimenyetso mu muhanda, bisobanurira abanyabiziga uburyo batwaramo imodoka, ndetse n'amapikipiki n'ibyatsi byinshi.

Ibitaro by'ibanze bya Sangwa batangiramo imiti itandukanye ndetse hariyo abantu batandukanye, kandi ibi bitaro byubatse neza cyane, biherereye mu karere ka Huye.

Farumasi cyangwa se ahatangirwa imiti hitwa Ubuzima bwiza, harimo imiti myinshi itandukanye ndetse hanze yaho hari imodoka ziparitse, ku ruhande bahacururiza imyenda itandukanye.

Umuganga w'umudamu yambaye imyenda yabugenewe kandi isa neza cyane. Ari mu cyumba cyo kwa muganga, arimo gukoresha mudasobwa yihugurabumenyi ndetse akurura amakuru ahantu hatandukanye kugira ngo azajye akora akazi afite ubushishozi.

Inyubako nziza cyane ya farumasi aho batangira imiti itandukanye ndetse inakorana n'utundi duce dutandukanye tw'ubwisungane mu kwivuza, kandi mu nyubako harimo abakiriya barimo kugura imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi batandukanye ndetse n'abaganga bambaye imyenda yabugenewe yo mu ibara ry'umweru, barimo kwita ku murwayi bamupima umuvuduko we w'amaraso ngo barebe aho imikorere y'umubiri we ihagaze.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'umurwayi uryamye ku buriri, aha ni mu cyumba cyo kwa muganga muganga arimo kumuganiriza amubaza uko yiyumva ndetse anamugira inama mu rwego rwo kumurinda kwiheba.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza cyane, gifite ubusitani, ndetse n'imihanda myiza yubatse neza, gifite ububiko bw'ibishingwe ndetse n'amatara hanze, kandi harimo abantu, abarimu ndetse n'abanyeshuri.

Abantu bari kubyina imbyino gakondo bari kubyinira mu kibuga giteyemo sima kandi bakurikiwe cyangwa se bari kurebwa n'abantu benshi batandukanye.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe kandi isa neza, ari gukoresha ibikoresho byabugenewe avura umurwayi warwaye imvune, arimo kumunura amwitaho mu buryo bukwiye.

Umusore w'umunyafurika arangije gukora siporo, yambaye imyenda yabugenewe ya siporo kandi yambaye na ekuteri mu matwi, ari kunywa amazi akoresheje ukuboko kw'iburyo kandi amazi ari kunywa ari mu icupa ryiza cyane rifite isuku.

Ibitaro bisa neza kandi byubatse neza cyane ndetse hariho indi nyubako bakiri kubaka, hariho abafundi ndetse n'abandi bantu bari kumufasha.

Umukobwa w'umunyafurika yicaye hasi arimo gukora siporo ananura ibice bye byose byumubiri kandi yambaye n'utwenda twabugenewe dufasha umubiri we guhumeka.

Abantu babiri umwe yicaye ku gitanda undi arimo kumupfuka ikirenge bigaragare ko yavunitse kandi akoresheje igipfuko cyiza gifite isuku.

Umukobwa wumunyafurika uri muri siporo ananura amaboko yombi kandi yambaye imyenda yabugenewe abohesheje imisatsi ndetse apfukamye hasi ku musambi.

Umukobwa w’umunyafurika ari gukora siporo ananura ingingo z'umubiri we, yambaye utwenda twabugenewe kandi imisatsi ye iraboshye.

Umusore w'Umunyafurika arangije gukora siporo, arimo kunywa amazi, akoresheje icupa ryiza kandi rifite isuku ndetse yambaye n'utwenda twa siporo, dufasha umubiri we guhumeka.

Umuganga w'umugore, wambaye imyenda yabugenewe ndetse ufite isuku, arimo kwita ku murwayi, amuhereza icyuma cyabugenewe kugira ngo agerageze kurambura imitsi cyangwa se kunanura imitsi yo mu kuboko kwe.

Umugabo uri kwitabwaho akorerwa massage bamwitaho cyane kandi babikora mu buryo bw'ubwitonzi cyane banamuganiriza.

Igikoresho gifasha buri muntu wese ubana n'ubumuga bwo kutagenda ndetse akaba yagenda kandi akagera aho agiye ndetse iki gikoresho kirafasha cyane.

Umusore w'umunyafurika, ari gukora siporo ndetse yambaye imyenda yagenewe siporo, arimo kunywa amazi meza ari mu icupa kandi rifite isuku ihagije.

Umuganga arimo kuganiriza umurwayi anamunura ukuguru, yari yaravunitse kandi umuganga ari gukoresha icyuma cyabugenewe, kinanura imvune.

Umukobwa w'Umunyafurika arimo gukora siporo ananura amaboko ye kandi yambaye utwenda twabugenewe, dufasha umubiri we guhumeka ndetse imisatsi ye iraboshye kandi yambaye n'ekuteri.

Umusore w'umunyafurika ari muri siporo, arimo arananura amaguru ndetse yambaye imyenda yabugenewe yo mu ibara ry'umukara kandi aho ari gukorera siporo ni mu nyubako.

Umukobwa w'umunyafurika arimo gukora siporo ananura ingingo ze zose z'umubiri, yambaye utwenda twabugenewe kandi siporo ari kuyikora hasi yashasheho agasambi kandi aho ari kuyikorera ni mu nyubako irimo n'indabo.

Umusore w'umunyafurika asoje gukora siporo, kandi yabize n'ibyunzwe byinshi arimo kunywa amazi ari mu icupa ryiza rifite isuku, kandi yambaye nk'imyenda ya siporo.

Umukobwa w'Umunyafurika arimo gukora siporo yita ku mubiri we, awunanura kandi yambaye utwenda twabugenewe, yicaye hasi ku gasambi.

Umugabo arangije gukora siporo, ndetse yambaye utwenda tumufasha kugira ngo umubiri we uhumeke, igihe ari gukora siporo, ari kunywa amazi akoresheje icupa ryiza kandi rifite isuku.

Umugabo w'umunyafurika, arangije gukora siporo, arimo kunywa amazi ayanywera mu icupa ryiza kandi rifite isuku, amazi ni meza kandi yambaye imyenda yo gukora na siporo.

Umusore w'umunyafurika ari muri siporo, yambaye ekuteri ndetse yambaye n'imyenda yagenewe siporo ari kunywa amazi akoresheje akaboko ke k'ibumoso ndetse amazi ari kunywa ni meza.

Umukobwa w'Umunyafurika, arangije gukora siporo, arimo kunywa amazi akoresheje icupa ryiza ryabugenewe kandi rifite isuku, yambaye n'utwenda tumufasha gukora siporo, kugira ngo umubiri we uhumeke ndetse na ekuteri.

Umugabo w'umunyafurika arangije gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kunywa amazi ayanywera mu icupa ryiza kandi rifite isuku ihagije ndetse n'amazi ari kunywa asa neza cyane arizewe kandi uyu mugabo yambaye agapira k'ibara ry'ubururu.

Umuganga w'umukobwa wicaye mu cyumba cyo kwa muganga, yambaye imyenda yabugenewe ndetse n'ibikoresho afite ni ibimufasha mu kazi, kandi imbere ye ari gukoresha mudasobwa ndetse afite n'ikayi n'ikaramu ari gushaka ubumenyi bwisumbuye ku bwo afite.

Umukobwa w'umunyafurika arangije gukora siporo ndetse yarushye cyane, arimo kunywa amazi kugira ngo umubiri we uruhuke kandi yari yambaye n'utwenda twabugenewe, tumufasha muri siporo.

Umusore w'Umunyafurika arangije gukora siporo, yambaye ekuteri z'ibara ry'umweru ndetse arimo kunywa amazi ari mu icupa ryiza, akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo.

Umukobwa w'Umunyafurika, arimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda yabugenewe ndetse ari kuyikora yicaye ku buriri kandi imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri we gukora neza ndetse no kuyirinda amavunane.

Abagabo babiri, umusore ari gukora siporo, ananura ibituza, aterura ibintu biremereye cyangwa se ibyuma kugira ngo ananuke, undi na we arahagaze ari kumwigisha uko babikora.

Umukobwa uri muri siporo yicaye hasi arambuye amaboko hejuru ari kunanura ingingo z'umubiri we, kandi yambaye imyenda yabugenewe, imbere ye hari mudasobwa icupa ryamazi ndetse n'utundi dukoresho.

Inkweto nziza cyane z'ibara ry'umukara kandi zikomeye zirahenze cyane zigura amafaranga atari make kandi zigaragara ko ari nshyashya kuko hariho igipapuro kigaragaza ko aribwo zikiva mu iduka.

Umukobwa w'Umunyafurika arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye utwenda twabugenewe tumufasha guhumeka ndetse n'imyitozo iramufasha cyane kuko ituma amaraso ye atembera neza mu mubiri ndetse akanirinda amavunane.

Umugabo w'umunyafurika amaze gukora siporo arimo kunywa amazi asa neza ndetse ari kuyanywera mu icupa ryiza, kugira ngo umubiri we urusheho gukora neza ndetse n'ingingo ze.

Umuganga wambaye imyenda y'abugenewe arimo kwita ku murwayi uvunitse arimo kumuha serivisi zose zikenewe ndetse anamubaza uko byagenze amuganiriza cyane.

Umuntu bari gufasha bamukoresha siporo, bamunura ingingo ze zose z'umubiri kandi hano ni kwa muganga, ni muganga urimo kumufasha amuha serivise zose zatuma amera neza.

Umukobwa w'umunyafurika arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ananura ingingo ze zose z'umubiri ndetse yambaye imyenda yabugenewe ifasha umubiri we guhumeka neza mu gihe ari gukora iyo myitozo.

Umurwayi wavunitse ibiganza bye byombi yaje kwa muganga kwipfukisha kandi muganga arimo kumwitaho amupfuka, yitonze kandi neza.

Ubwoko bw'ibiribwa cyane cyane hibandwa ku mbuto, imboga ndetse n'ibindi, amagi, ubutunguru, karoti, inkeri, imineke ndetse n'ibindi.

Umukobwa w'umunyafurika, arangije gukora siporo kandi yambaye utwenda tumufasha mu gukora siporo kugirango ngo umubiri we uhumeke neza ndetse ari kunywa amazi akoresheje icupa ryiza rifite isuku.

Umusore w'Umunyafurika, arimo gukora siporo, ananura amaguru ye n'amaboko kandi yambaye akenda kabugenewe ndetse yambaye n'isaha kandi ari gukorera siporo hasi yahashashe agasambi.

Umuntu uri gusuka amazi meza mu gikombe cy'ikirahure kandi aya mazi ari gusuka ari guturuka mu ijage na yo y'ikirahure kandi ifite isuku ihagije.

Umusore w'Umunyafurika ari gukora siporo yicaye mu kibuga kimezemo ubwatsi, yambaye utwenda twabugenewe tw'ibara ry'umukara, ari kunanura imitsi y'ukuguru kwe kw'iburyo.

Umukobwa w'Umunyafurika, yicaye ku gitanda ari gukora siporo, ananura ingingo ze z'umubiri kandi yambaye utwenda twabugenewe.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo imodoka iri kwihuta cyane, hepfo yaho no haruguru hari ubusitani bwiza bufite isuku ndetse n'amatara yo mu muhanda amurika kugira ngo nijoro mutazajya haba impanuka.

Umukobwa w'umunyafurika ari muri siporo ananura cyangwa se arambura ingingo ze zose z'umubiri, kandi yambaye imyenda yabugenewe.

Amazi meza cyane afite ubuziranenge kandi ari mu icupa ryiza na ryo rifite isuku ihagije ndetse kandi barimo gusuka amazi, bayasuka mu gikombe na cyo cyogeje gifite isuku yizewe.

Ikinyabiziga cyangwa se intebe umuntu ubana n'ubumuga bwo kutagenda yicaramo, mu rwego rwo kugira ngo atembere kandi karamufasha cyane.

Umusore w'Umunyafurika ,ari gukora siporo ananura amaboko yombi ndetse n'amaguru yombi n'umugongo, yambaye imyenda yabugenewe y'ibara ry'umukara ,kandi ari gukorera mu kibuga kimezemo ubwatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bari mu nama; umwe ahagaze imbere ari kubasobanurira amakuru cyangwa se ikiganiro kiri kunyura kuri interinete ndetse bamwe banandika bigiraho uko bazajya bakora akazi kabo.

Umuntu wavunitse akaba yaje kwa muganga kugira ngo bamwiteho, muganga na we ari kugenda afata aho yamubwiye yavunitse amubaza niba ari ho, amubaza n'ukuntu ari kubabara.

Abakinnyi bari bari mukibuga nuko umwe aragwa, hanyuma abandi bantu b'abaganga baje kumufasha, bamuvura bamwitaho, bari mukibuga, bari kumuha serivise kugira ngo amere neza.

Umuntu w'umunyafurika ari kunywa amazi akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo kandi amazi ari kunywa ni meza cyane kandi ari kuyanywera mu icupa rifite isuku cyane.

Umugabo w'umunyafurika ari gukora siporo, yicaye hasi arimo ananura ukuguru kwe kw'ibumoso, akoresheje amaboko ye yombi kandi yambaye imyenda isanzwe, inyuma ye hari ubusitani.

Abaganga bari mu nama barimo kureba cyangwa se kumva amakuru y'ibigezweho, bari kurebera kuri televiziyo amakuru ari kuvugwa n'umuganga w'umugabo ndetse barakurikiye cyane kugira ngo bumve neza.

Umusore w'umunyafurika asoje gukora siporo, yambaye imyenda yagenewe siporo imurekuye ituma ahumeka, ari kunywa amazi ari mu icupa ryiza rifite isuku, akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo.

Umukobwa w'Umunyafurika, arimo gukora siporo, ananura umubiri we, ananura imitsi kandi yambaye utwenda twabugenewe tumufasha kugira ngo umubiri wisanzure, ari gukorera mu nyubako mu cyumba kandi hashasheho agasambi.

Umukobwa w'umunyafurika ari gukora siporo ananura ingingo ze z'umubiri, yambaye imyenda yabugenewe y'ibara ry'umukara kandi afite imisatsi iboshye, yicaye hasi ku gasambi.

Abantu bagiye kwa muganga ndetse umuganga arimo guhereza umwana serivisi amumurika mu kanwa kugira ngo arebe iryinyo rirwaye, ndetse barimo kuganira cyane kandi bari mu cyumba cyo kwa muganga.

Umukobwa w'umunyafurika ari gukora siporo, ananura ibice bye byose by'umubiri cyane cyane akaguru ndetse no mu nda, kandi yambaye utwenda twe twabugenewe ndetse yicaye hasi.

Abana benshi barishimye cyane barimo gukina umupira bawujugunya hejuru abandi bawusama, ndetse abandi barishimye bari gukoma mu mashyi bashimira uwatsinze igitego.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe kandi isa neza cyane, arimo kwita ku murwayi amaha serivisi zose zikenewe, amuvura aho yarwaye, uyu murwayi yari arwaye igisebe muganga na we ari kumupfuka ndetse amuganiriza cyane.

Abantu babiri umusore ndetse n'umukobwa bari muri siporo buri wese afite icupa ririmo amazi kandi bambaye n'imyenda yabugenewe bari kugenda baganira.

Umukobwa wumunyafurika yicaye hasi mucyumba arimo gukora siporo ananura ingingo ze zose zumubiri ndetse agira ngo umubiri we ukore neza ndetse yambaye n'imyenda yabugenewe ifasha umubiri we guhumeka mugihe yabize byunzwe.

Abaganga bari mu nama, bamwe barahagaze abandi baricaye, bambaye imyenda yabugenewe ndetse barimo gukurikira ikiganiro cy'undi muganga kuri televiziyo, kibigisha uburyo bwo gukoramo akazi ndetse imbere yabo ku meza, hari za mudasobwa ndetse n'amakayi.

Imbaga y'abantu bari gukora siporo, bari ku murongo mu kibuga, bari kunanura ingingo zabo zose z'umubiri, bari gukora baririmba kandi bambaye n'imyenda ya siporo.

Umusore w'umunyafurika, usoje gukora siporo, yambaye imyenda yabugenewe ya siporo, ndetse ari kwimenaho amazi akoresheje amaboko ye yombi, kandi amazi ari mu icupa.

Abagabo babiri bari muri siporo biga gusimbuka kandi barishimye cyane, bari gusimbukira hasi mu muhanda wa kaburimbo kandi bambaye imyenda yabugenewe.

Umukobwa w'Umunyafurika arangije gukora siporo, yambaye imyenda yabugenewe ifasha umubiri guhumeka, mu gihe uri mu gikorwa cya siporo ndetse ari kunywa amazi ari mu icupa ryiza kandi rifite isuku.

Umukobwa w'umunyafurika ari gukora siporo ananura amaguru, amaboko ndetse no mu nda, muri make arimo kunanura ibice bye byose by'umubiri kandi yambaye imyenda yagenewe siporo.

Abubatsi bari kubaka ku bitaro ndetse bambaye imyenda y'ubwubatsi kandi hariho n'abandi baje kwivuza kandi ibi bitaro bisa neza cyane.

Umukobwa w'umunyafurika arimo gukora siporo ananura ibice bye by'umubiri, yambaye imyenda yabugenewe kandi yambaye na ekuteri, yicaye hasi.

Umukobwa ari gukora siporo, ni Umunyafurika ari kunanura ibice bye byose by'umubiri kandi yambaye imyenda yabugenewe mbese ameze neza kandi ari gukora siporo yicaye hasi.

Umukobwa w'umunyafurika ari gukora siporo ananura amaguru ye n'amaboko, mbese buri gice cye cy'umubiri yifashishije utwuma, kandi yambaye n'imyenda yabugenewe.

Umukobwa w'umunyafurika ari gukora siporo kandi yicaye mu kibuga kimezemo ibyatsi, arimo kunanura amaguru ye ndetse n'umugongo kandi yambaye utwenda twabugenewe tumufasha ndetse siporo na yo ikamufasha gutuma amaraso atembera neza mu mubiri we.

Umuti uri mu icupa ry'umweru, ufasha abashakanye mu gikorwa cyo gutera akabariro harimo indwara uyu muti urinda zirimo kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'izindi.

Umuntu ufite igipapuro kipfunyitsemo umuti gakondo, ufite ibara ryenda kumera nk'icyatsi, ndetse iyi miti ikorwa mu byatsi bitandukanye, kandi iravura cyane.

Umuti w'amenyo mwiza cyane ndetse ufite ubuziranenge, ukozwe mu bimera kandi woza amenyo neza ndetse ukanarinda indwara zanduza amenyo, harimo ifumbi ndetse n'izindi.

Umudamu ufite igikapu arimo kureba ibihingwa bye; aribyo ibishyimbo, ndetse n'igitoki ari kureba ko byeze cyangwa se agira ngo aza abisarure.

Igiti cy'umuravumba, kivura inkorora, giteye cyangwa se gihinze hagati y'ingo ebyiri kandi izo ngo zubakiye, mu cyaro kandi imwe ni iy'amatafari indi iteye umucanga.

Umugabo ufite ibihingwa by'ibyatsi mu ntoki, bigaragara ko ashinzwe ubuzima bwiza bw'ibihingwa, kandi ari mu nyubako isa neza.

Ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye hibandwa ku mbuga z'ubwoko bwinshi, harimo intoryi, harimo imbwija ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuti w'amenyo ufite ubuziranenge kandi ukozwe mu kimera ndetse woza amenyo neza ukayarinda n'indwara zitandukanye harimo ifumbi ndetse n'izindi.

Ibirungo ndetse n'imbuto birimo kwamamazwa mu kiganiro cyitwa baho neza, kinyura kuri televiziyo ndetse muri ibyo birungo n'imbuto harimo ubutunguru ndetse n'indimu.

Umuti gakondo witwa umuravumba ndetse ukozwe no mu kimera cyitwa umuravumba, uyu muti uravura cyane ku ndwara yitwa inkorora ndetse n'izindi.

Umuti gakondo witwa umuravumba, ukozwe mu byatsi bitandukanye, harimo ikitwa umuravumba ndetse n'ibindi bigaragara kuri aka gacupa karimo uyu muti.

Umuti wica udukoko two mu ntoki, cyane cyane mu gihe cya Korona Virusi, aho gusuhuzanya biba bitemewe, uyu muti urifashishwa witwa Sanitayiza kugira ngo hirindwe udukoko two mu ntoki cyangwa se izindi ndwara zose, zakwandura mu gusuhuzanya.

Imbuto zikomoka ku gihingwa cya tungurusumu zigira akamaro kanini ku buzima bwa muntu, zirinda indwara zitandukanye, ndetse bazikatira mu biryo mu rwego rwo kugira ngo barye indyo yuzuye, kandi irimo intungabuzima.

Umuti gakondo witwa rivayivo ndetse hariho n'indwara urinda, harimo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse ikanakumira indwara zifata porositate.

Uburyo bwo gukora siporo ndetse bagaragaza ingingo uba uri kunanura cyangwa se uri kwitaho, hariho izo kunanura ibitugu, ibyo kunanura ijosi, urutirigongo ndetse n'ibindi.

Abantu bashinzwe ubuzima bwiza bw'ibihingwa, barimo kubisura ndetse bashakira hamwe ibisubizo byatuma ibihingwa bikura neza bifite ubuzima bwiza, mu rwego rwo kugira ngo n'abaturage bagire ubuzima bwiza, birinde inzara.